Abantu bicaye mu cyumba kimwe bigaragara ko ari icyumba cy'inama bafite amazi imbere yabo buri muntu bigaragara yuko basa n'aho ari abantu bari mu nama. Ukaba ubona ko abagabo bicaye bambaye amakoti n'abagore bambaye neza bafite na mudasobwa imbere zabo, ameza bicayeho ariho ibitambaro by'umutuku n'iby'umweru, ubona ko bisa n'abantu bicaye mu cyumba cy'inama.

Iyi foto iragaragaza abantu bari mu nama, bari kuganira ku kintu runaka, imbere yabo hari umuntu uri gutanga igitekerezo ke cyangwa uyoboye iyi inama, bicaye ahantu hamwe bari kuganira ku kintu runaka.

Iri ni itangazo rigaragaza cyangwa se rimenyesha abantu bakora ibijyanye n'ubucuruzi bakaba bakorana n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro rikaba ribibutsa yuko bagomba kumenyekanisha imisoro yabo mbere y'amatariki yavuzwe.

Imbangukiragutabara iparitse imbere y'ahantu hari esikariye, iyi mbangukiragutabara ikaba ifite ibara ry'umutuku, umweru n'ubururu, ikaba ari iya Nyarugenge, iyi mbangukiragutabara iparitse impande y'ahantu iparitse hari esikariye abantu bamanukiraho cyangwa se bakazamukiraho.

Iki ni icyapa kigaragaza ko hano hari muganga w'amaso. Kikaba giherereye i kabgayi. Icyo cyapa kikaba kiriho kiriho amasaha akazi gakorerwa igihe gatangirira n'igihe karangirira n'iminsi gakorwa ndetse hakaba hariho na adress wababoneraho igihe ubakeneye.

Ni imfungwa se cyangwa ingorororwa zambaye umwambaro w'iroza bigaragara ko ziri imbere ya geraza ya Nyarugenge, izi rero ni imfungwa.

Inyandiko ziri mu bikarito zigaragaza ko ari inyandiko z'inkiko gacaca ziri mu bikarito bitandatu. Zigaragaza ko ari ibikarito birimo izindi mpapuro z'inkiko gacaca.

Iki gikoresho gikoreshwa inkongi y'umuriro mu gihe bari kuzimya ahantu hahiye, iki gikoresho gisangwa ahantu mu amazu manini ndetse kigakoreshwa n'abantu bazi kugikoresha mu gihe habayeho inkongi z'umuriro.

Aba ni abantu bigaragara yuko bari mu bikorwa byo kwamamaza umukandida ku mwanya runaka. Ubona ko bahagaze imbere yabo hari ahantu babatereye akameza bigaragara yuko bari kwamamaza.

Iyi ni imodoka yo mu bwoko bw'imodoka zitwara ibintu biremereye, imodoka zizwi nk'ikamyo zikaba ari imodoka zitwara ibintu biremereye. Zitwarwa n'abashoferi bafite uruhushya rw'agateganyo rwa se.

Imodoka y'ubururu n'umweru ya wasake ihetse; amatiyo atwara amazi hakaba iruhande rwayo hari ibiti, hakaba hari umumotari uhetse umuntu, hari umunyonzi uhetse amagi ahunga imodoka y'ikamyo.

Iki ngiki ni icyapa kerekana ko hano hemerewe guhagarara imodoka zitwara abagenzi kirerekana yuko imodoka zemerewe kuhahagarara bigaragaza yuko hari icyapa imodoka zihagararamo.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda harimo imwe yakandagiye mu gahanda k'abanyamaguru, ziri kugenda ahari umuhanda ugendwamo n'abanyamaguru; bigaragaza ko abanyamaguru ari ho bambukira.

Iyi ifoto ni ifoto igaragaza umuhanda akaba ari imihanda ibiri ariko ika igabanywa na jaride mo hagati umuhanda w'iburyo n'uwibumoso ariko bikaba bihujwe na jaridire iri mu muhanda hagati iyi foto ikaba icuritse.

Ubu ngubu ni ubusitani bugabanya ibisate byo mu muhanda ubu busitani bukaba burimo umukindo, bukaba burimo ibyatsi byo hasi, bukaba buriho agasima gateweho amarange asa umweru n'umukara, ubu busitani bukaba buri mu muhanda hagati.